Ifumbire y'imborera ikoze mu minyorogoto, aho uyikoresha ayifashe mu ntoki akaba ari kureba ko koko ari ifumbire y'imborera kandi izagirira akamaro igatanga n'umusaruro ku buhinzi bwe.

Ifumbere y'imvaruganda iri mu bwoko bwa ire, iri kuri purusa ya mirongo ine n'itandatu, yakoreshejwe mu buhinzi bw'ibigori bya iburide, bikaba bikiri mu murima bitarera.

Ababyeyi babiri bari, barimo gushaka ifumbire y'imborera. Barimo barayitindura mu buryo butuma izakoreshwa neza, kandi ikagirira akamaro ku muhinzi uyikoresheje, igihe cyose yaba yayifashe.

Imiti izwi nka detane ni imiti iterwa ibihingwa ari agapaki karimo mililtiro mirongo itatu, akandi gapaki karimomililitiro mingo ine n'eshanu, ibashwasha mu gukoreshwa mu gutera imiti ibirayi, imboga, ndetse n'imbuto.

Ifi ikaranze neza, iri ku ipanu, ifite ibirungo, kandi iteguriwe kuribwa, mu buryo butuma umuntu agira imibereho myiza, ndetse n'umubiri ukagubwa neza.

Ubwato buri mu gishanga aho Umunyarwanda ari kubugendaho areba ko bukora, ndetse agakoresha ibikoresho gakondo cyo kugira ngo ubu bwato bube bumeze neza. Ni gahunda nziza kandi ifasha ku bantu bose bayikoresha.

Ubucuruzi bw'indagara zitandukanye zirimo amoko y'indagara atandukanye, ari mu mashashi ariko babasha kugupimira ku giciro wifuza ku biro, ku nusu n'ibindi. Indagara rero zifasha kurwanya imirire mibi n'igwingira ry'abana.

Abantu bari mu bwato， mu mazi，mu kiyaga， bafite abasare bari kubafasha kugira ngo ubwato bwabo butabaroha mu mazi. Bari kuroba， kandi umusaruro barakuramo urajyanwa ku isoko， cyangwa mu miryango， kugira ngo imibereho ikomeze kuba myiza.

Ubwato buri mu mazi aho abasare babiri bari kugashya kugira ngo abo batwaye bagereyo amahoro. Abasare hejuru nta kintu bambaye kandi bari kugashya neza mu buryo butuma hataba umuvumba mu mazi.

Amafi ameze neza ari aho yakusanirijwe, kugira ngo abashe kugezwa ku isoko, abantu bahahe umusaruro w'amafi mu buryo buboroheye, kandi bajye kuyategura nk' amafunguro mu bagize umuryango.

Amazi aretse ahantu runaka ashobora gukorerwamo ubworozi bw'amafi, ndetse n'ubundi bworozi butandukanye, kuko ari amazi ari ahantu hasi kandi ku mpande zayo hakaba hari amaterasi.

Isambaza zikaranze neza, zirimo ibirungo bitandukanye, ziteguwe mu buryo butuma zaribwa kandi zikagirira umumaro uwaziriye mu buryo bwihuse kandi bwa vuba.

Ubwatsi bw'inka, buteye ku nkengero z'umurima buzwi ku izina ry'igikebo, aho butarasarurwa kugirango amatungo abukoreshe, aburye.

Umurima uhinzwe mu buryo bw'imitabo . Uyu murima wasaruwemo ibigori, ntabwo barongera guhinga ibindi bihingwa bizatuma batera imbere. Ariko umusaruro w'ibigori wamaze gukurwa muri uyu murima.

Umurima usaruwemo ibigori, nk'igihingwa ngandurarugo kandi gikoreshwa n'umubare munini w'abanyarwanda, yaba kukirya cyokeje, gitetse, ndetse no kwanika impungure zacyo, zigakoreshwa banywa igikoma.

Umurima uhinze mu buryo bw'imitabo, ku mbibi zawo hariho ibiti by'inturusu bimaze igihe, kandi bikuze, ntabwo uyu murima uraterwamo imbuto iyo ari yo yose.

Ubuhinzi bw'imboga zizwi nka karoti buri mu murima uhinzwe mu buryo bw'imitabo, Kandi izi karoti zarabagawe ziri kuzamuka neza, zitanga icyizere cy'uko uwazihinze azabona umusaruro ushimishije.

Ibiti by'avoka bitaragaragaza umusaruro wabyo, kuko bitaragera igihe cyo gusarurwa, ariko bimeze neza, kandi mu gihe cya vuba bizatanga umusaruro, utuma imbuto z'avoka zisarurwa.

Igiti cy'ishyamba ryagabye amashami atandukanye, aho kibasha gukoreshwa mu buryo butandukanye, kugira ngo umuntu wagikoresheje amererwe neza, kandi abashe kumva n'umwuka mwiza w'iki giti.

Igiti cya avoka kitarera neza kuko umusaruro utagaragara. Ni igihingwa cyiza kiri mu bwoko bw'imbuto aho uwabiriye bitabasha kugira ibibazo by'imirire mibi n'igwingira.

Insina ziri mu murima, zikaba zimeze neza kandi hasi yazo hariho amashaza.

Ibireti biri mu murima bitaragera igihe cyo gusarurwa, ni kimwe mu gihingwa ngengabukungu cy'Abanyarwanda. Naho uwabihinze abasha kugera igihe cyo gusarura ibireti akabyanika akajyana umusaruro we ku isoko bakamugurira kandi bakamuha amafaranga.

Inzira ijya ku mashuri ikaba irimo inka, ikabamo n'ibiti. Kandi hirya yayo hariho amashuri yubatse neza, ya kijyambere, abasha kwakira abanyeshuri b'ingeri zitandukanye bitewe n'ibyo biga, bagahabwa ubumenyi, bikabafasha kuzageza igihugu ku iterambere.

Ubuhinzi bw'amashaza, amajeri ariko yabaye make make kuberako harimo urwatsi rwinshi. Uyu musaruro ntabwo ushimishije kuko amajeri ari makeya muri uyu murima.

Ibirayi bihinzwe mu murima bikaba bitarayanga neza, aho bitaragera igihe cyo gusarurwa. Muri ibi birayi hagiye habamo amateke ariko ni rimwe rimwe, ku buryo ari irya cyimeza.

Icyatsi cy'igikarubamba kibasha gukora mu muti kikavura indwara z'uruhu, kandi gikoreshwa mu buryo bwihuse, wagica ugahita ugikoresha, wakijyana mu ruganda bakagitaransiforuma, aho umuntu abasha kukibonamo amavuta cyangwa isabune.

Imboga zitwa ibitodoki zihinze ku rugo rw'umuturage kandi zimeze neza zibasha gufasha abantu kurwanya imirire mibi n'igwingira mu bana batoya n'abakuru zirifashishwa umusi ku wundi mu buzima tubayemo cyane ababarirwa mu buzima bw'igiturage.

Umurima udahinze uzwi ku izina ry'ahantu haraye aho umuturage ategereje kuzawuhinga akawukoresha atera imbuto zitandukanye. Ubu akaba yarawuraje kugira ngo uzabonemo ifumbire cyangwa se ugarure ubutare.

Igiti cyitwa igiko kiri kuzamukaho ikidodoki, ikidodoki kikaba gikoreshwa mu buryo bw'imboga zitekwa, zikaribwa mu muryango, hanyuma igiko cyo kigakoreshwa mu buryo bwo kuzitira ingo cyangwa imirima bitewe naho washatse kugikoresha.

Umurima uhinzwe mu buryo bw'imitabo, imitabo ihinzwe uruhande rumwe urundi nta rurahingwa ibyo twita kubibirindura, bigaragara ko abahinzi bahinze igihande kimwe bazagaruka guhinga ikindi gihande.

Umurima udahinze urimo ibyatsi bizwi nk'isanduruma, ibyatsi bihabwa inkwavu n'andi matungo kugirango abashe gukura kandi ateze imbere nyirayo.

Ibiti biri ku ruzitiro, aho byazamukiweho n'ibyatsi bitandukanye, harimo nk'icyatsi cyitwa capusine gikoreshwa mu kuvura inkorora ku bana, ndetse no ku bantu bakuru batangiye kugira umuriro.

Ubuhinzi bw'ibishyimbo bizwi ku izina rya kizungu, ibishyimbo byera neza bikagira umusaruro munini kandi mwiza iwacu tubyita kiryumukwe. Ni ibishyimbo bya kiryumukwe.

Igiti cy'isombe isombe iribwa iseye aho ubasha kuyisekura mu isekuru cyangwa se ukajyana ku mashini bakabisya mu buryo bwa kizungu ikaribwa n'abantu bose ku kigero cy'imyaka yose waba urimo isombe ni nziza.

Umusaruro wa avoka z'imbangurire. Izo voka ziraryoha cyane, zifite intungamubiri, kandi umuntu uzikoresheje agira ubuzima bwiza, yaba mubyo arya yaba no mubyo akora.

Indabo zitandukanye ziri muri jaride y'urugo, aho zisa neza, ziri gushibuka neza kandi zikazamuka. Indabo zifasha rero kumva impumuro nziza ahantu ndetse ukaba wamererwa neza, ugahumeka umwuka mwiza.

Imboga zo mu bwoko bw'imiteja, ziri mu kintu bazisoromeyemo, zishobora gutegurwa neza zigatekwa hanyuma zikaribwa, umuntu akaba ariye imboga bidasabye ko zitonorwa.

Ubucuruzi bw'inyanya ,zeze kandi ziri ku mifuka aho uzigura ashobora guhabwa izo akeneye ,bitewe n'amafaranga afite kandi ku giciro kimworoheye mu buryo butuma ntawutagura.

Imbuto zitwa amapera zifite ibara ry'icyatsi kibisi ariko mo imbere ziba zifite ibara ritukura. Rigiramo n'utubuto aho uzirya abasha guhekenya akumva uburyohe bw'uru rubuto.

Ibigori biri mu murima bimaze guheka, bimeze neza, biri mu bwoko bwa iburide, bigaragara ko rero umusaruro wabyo uzaba ari mwiza, bitewe n'uko imizamukire y'iki kigori igaragara.

Ibijumba bifite ibara ritukura inyuma imbere bikagira ibara ry'umuhondo, biri mu gatebo kandi biteguye neza, ku buryo ubigura yabikoresha bitamusabye imbaraga nyinshi. Bifite intungamubiri kubera ko ababikoresha bagira ubuzima bwiza.

Ubuhinzi bwa kijyambere buhinzwe mu ikoranabuhanga, aho buhinzwe mu nzu ku izina rizwi nka girinihawuzi. Ni ubuhinzi buteye imbere kandi butanga umusaruro bugezweho hano mu Rwanda, ku buryo uhinga ku butaka buto ariko umusaruro ukaba mwinshi.

Imiteja, ahantu heza ibasha gukoreshwa nk'imboga, iratekwa, irahingwa, ifite akamaro kenshi nk'intungamubiri zibasha kugira akamaro ko kurinda indwara mu mubiri w'umuntu ku muntu ukoresha iyi miteja.

Ubuhinzi bw'igitoki buri mu murima, iki gitoki kimeze neza kandi kireze aho kibasha gusarurwa abagize umuryango bakakirya, kandi bakamererwa neza mu buryo butuma ubuzima bwabo butera imbere.

Imyumbati ni bimwe mu biryo abanyarwanda bakunda, bishobora kuribwa ari imyumbati cyangwa se bikanikwa, bigasekurwa cyangwa bigacishwa mu mashini bikaribwa ari ifu, icyo gihe biba byiswe ubugari.

Umusaruro w'ibikomoka ku nka uzwi nk'amata nk'aho bari kuyaganiza mu gicuba bayakura mu kindi ariko bakayashyira mu gicuba kinini kibasha kuyabika mu gihe kinini kandi atabashije kwangirika.

Avoka nziza cyane zigezweho zibasha kuvura indwara zitandukanye mu mubiri w'umuntu, zizwi ku izina ry'igiheri. Ziri ku mufuniko w'igiseke, uduseke dutandukanye mu mabara atandukanye.

Ibijumba by'ubwoko butandukanye, byaremeshejwe isoko, biri mu tubase binafunze ku buryo umuntu ashobora kuza akagura cyangwa se agaterura akabasi bitewe n'igiciro bagennye kimunogeye, akaba yagurira hamwe ibijumba, akabasha kujya gutekera umuryango.

Umucuruzi wicaye ku muhanda ategereje abakiriya ngo bamugurire imbuto zitandukanye harimo:amatunda, hakabamo ibinyomoro yatanditse cyangwa se yafunze ku buryo bworohereza abakiriya, ku giciro gitoya bakabasha kuyigurira bitewe n'amafaranga bafite.

Umusaruro w'ibihaza, biri mu bwoko, butandukanye, harimo iby'ibara ry'icyatsi umuhondo ndetse bikaba bikuze, ku buryo byaribwa yaba uwabihinze cyangwa uwaje kubigura ku isoko bitera imbaraga, kandi byoza amaraso.

Ubuhinzi bw'ikawa aho abaturage barimo gusarura ikawa mu mitabo itandukanye bagamije ko umusaruro wabo wagezwa ku isoko kugira ngo ubabyarire inyungu.

Imboga zo mu bwoko bw'intoryi, aho umusaruro wazo umeze neza kandi uwazihinze ashobora kuzirya zikamumerera neza cyangwa se akazigurisha ku isoko, abaturage bakagira uko babona umusaruro w'imboga uturutse mu buhinzi bw'intoryi.

Abayobozi bagiye kureba umurima w'icyitegererezo, aho hahinzwe ibigori mu murima bikaba biri kuzamuka neza, abayobozi nabo bambaye udupfukamunwa, bambaye ingofero imipira yo mu bwoko bwa yuniforume cyangwase impuza nkano.

Ubuhinzi bw'amajeri ataragera igihe cyo kwera, ariko ameze neza arabura igihe gitoya kugira asarurwe. Amajeri ni uburyo bumwe, ni igihingwa cyo mu buryo bw'imboga kibasha kuribwa n'uwagihinze, cyangwa kikaribwa n'uwakiguze ku isoko.

Ubworozi bw'amatungo magufi azwi ku izina ry'ihene, yororoka vuba bwaje guteza imbere uri muri ubwo bworozi, kuko mu gihe cy'umwaka iryo tungo riba ribyaye byibuze kabiri. Urumva ko rero ni itungo ryo ryoroka vuba kandi riteza imbere nyiraryo.

Umusaruro w'umuceri ufunze neza mu mifuka, ku buryo byorohereza abawutwara kuwugeza ku isoko cyangwa se kuwugeza mu rugo neza, nta mvune zibayemo cyangwa se ngo umeneke.

Umuhinzi uri mu murima umurima w'ibishyimbo, aho ari gusoroma umushogoro kugira ngo agabanye amababi y' i bishyimbo bizere, kandi bizakure neza bitanga umusaruro utegerejwe.

Ibijumba byo mu bwoko bw'umutuku inyuma imbere bikaba umuhondo. Ibijumba by'ubwoko bwiza cyane ko bigira umumaro gufasha abantu kubona vitami zikwiriye umubiri wabo ndetse bikabasha kuba ibitera imbaraga.

Aho bacururiza ibyokurya bitandukanye harimo amashaza, puwavuro, ibijumba, hariho n'umunzani ubasha kuza uri umuguzi ugahabwa icyo ukeneye, bakagupimira ku biro.

Umusaruro w'ibirayi bivuye mu buhinzi aho wakusanirijwe hamwe mu mifuka y'ibiro birenga ijana na mirongo itanu, bifunze neza n'imigozi ku buryo biteguye kubipakira mu modoka irabijyana i Kigali kugira ngo bigere ku baturage.

Umuhinzi w'imbuto zizwi nk'inanasi, ari gusarura umusaruro we akawushyira mu gapaniye cyangwa mu kantu gatuma abona ukuntu atwara umusaruro, awukura mu murima akawugeza aho yifuza kuwugeza, haba ku isoko cyangwa iwe mu rugo.

Ibigori bihinzwe biri mu murima ariko bigaragara nk'ibyabuze ifumbire, kuko uruti rwabyo rutari rwiza ntabwo byari byaheka nta n'ubwo biraterera, ariko biracyari mu murima.

Umuturage uri kureba ubuhinzi bwe uko bumeze ari kwishimira ko ubuhinzi buri kugenda neza, kandi ko buratanga icyizere cy'umusaruro uzaboneka mu minsi iri imbere, nyuma y'igihe runaka akazaba ameze neza.

Karoti zipanze mu mufuka zasaruwe mu murima zirozwa zishyirwa mu mufuka ahantu zishobora kujyanwa ku isoko mu buryo bworoshye kandi butagoye.

Abaturage barimo gusarura ibireti abagabo, abagore, ibireti biri mu gice c'ibirunga kandi biri mu mwero wabyo, aho bibasha gutanga umusaruro ukomoka ku buhinzi, kandi bigakoreshwa mu bijyanye no gukora imiti.

Abana bari guhinga amaterasi y'indinganire, agahinga ahantu hari umuca, hahoze umucaca, bagamije kugirango bahinge mu buryo bugezweho, butangiza ibidukikije buzwi ku izina ry'amaterasi.

Intoryi ziri mu murima zitarasarurwa ariko zeze ku buryo zasarurwa zikaribwa, haba mu rugo cyangwa zikagurishwa no ku isoko, abazikoresha bakaba bagira umumaro, babona umumaro wo kurya imboga.

Abaturage baje kureba uko ubuhinzi bwabo bumeze, bakaba bari kuganira bareba niba ubuhinzi buri gutera imbere cyangwa hari icyo bakora kugira ngo umusaruro ukomeze ube mwishi no gufatira hamwe ingamba z'iterambere kubijyanye n'ubuhinzi.

Ubuhinzi bw'urusenda bumeze neza, buri mu bwoko butukura, aho ari igihingwa ngengabukungu, kuko uwacu wahinze urusenda, abasha kubona amafaranga, kandi agateda.

Igitoki kiri mu murima cyeze neza kandi umusaruro wacyo urashimishije, aho kiba kiri hagati y'ibiro makumyabiri na bitanu na mirongo itatu na bitanu.

Avoka zimeze neza ariko zitarera neza zibasha gukoreshwa igihe zeze zigasarurwa, hanyuma zigashya zikaribwa. Zifite akamaro mu kurwanya imirire mibi, ndetse zifite kurinda umubiri gufatwa n'indwara.

Isoko ry'imboga zitandukanye harimo ibitunguru, hakabamo amakaroti, hakabamo puwavuro ndetse n'ibijumba.

Ubuhinzi bw'ibigori bimaze guterera ndetse bifite n'imiheko. Ni ibigori bitanga icyizere ko umusaruro uzagenda neza kubera ko uko bigaragara bizamutse neza, bifite ifumbire kandi byatewe umuti bihinzwe ku buryo bugezweho.

Umuhinzi uri kwishimira umusaruro w'imboga yateye mu buryo bwa kijyambere ndetse bwa girini hawuzi, aho umusaruro we umeze neza kandi ukaba awishimiye, anejejwe na wo.

Umusaruro w'ibitoki byeze neza. Ni byinshi biri ku muhanda ,hariho n'abanyonzi cyangwa se abatwaza b'amagare .Babipakiye kugira ngo bijyane iyo bagiye kujyana ,kubera ko bigomba kuva ku muhanda bikagera mu miryango.

Isoko ry'imbuto zitandukanye harimo :ibinyomoro, wotameroni, imyembe. Hirya ya bwo hariho imyenda imanitse ndetse yagurishwa.

Imyumbati isaruwe neza, yareze kandi imeze neza, ku buryo butuma, abayihinze, yera ikabaryohera, ndetse n'abaguzi ikabamerera neza, irahantu ku muhanda, aho uyishaka wese yabibona.

Ubuhinzi bw'ingano zimeze neza zigeze igihe cyo kwera, ababyeyi babiri bari kuzisarura bazigira ngo bazajye gutunganya uwo musaruro, ubashe kugera ku baturage kandi ukoreshwe neza.

Umurima w'ibisheke byeze umeze neza kandi bigeze igihe co gusarurwa, aho umuntu wese waba ukeneye kurya igisheke yabonamo icyo arya bitewe n'uko yaba yavuganye na nyiri umurima, kandi bakumvikana uburyo bwo gusaruramo ibi bisheke.

Umusaruro ukomoka ku buhinzi aho abawuhinze bahurije hamwe bategereje ko uyu musaruro upakirwa imodoka ukajyanwa mu cyerekezo cy'abawuguze kubera ko ufunze neza kandi witeguye gupakirwa.

Umusaruro w'ubunyobwa umaze gutunganywa ugashyirwa mu mufuka, aho abakiriya baza babureba bakareba niba bahaha, bagacisha ndetse bakaba babujyana aho nabo babucururiza, bakabona inyungu.

Umumero w'ibishyimbo bimaze igihe gito yabitewe mu butaka bwabwo gitangira kuzamuka bigaragara ko bitaratinda bitaramaramo igihe kinini mu gihe cy'icyumweru kimwe cyangwa bibiri.

Igihwagari gikorwamo, amavuta yo kurya, kuburyo umuntu ashobora, kuyarya adatetse, cyangwa se akayarya, yayakarangishije, ibyo kurya agira ubuzima bwiza, kandi umuntu wayariye.

Ubunyobwa ari ubutonoye ari n'ubudatonoye, ubutonoye buri mu ibara ritukura. N'ubudatonoye buri mu ibara ry'umweru. Burarambitse ku meza aho umuntu abasha kumenya gutandukanya ubutonoye n'ubudatonoye.

Amajeri cyangwa amashaza amaze kuyanga ameze neza. Kuko uruyange rurasa neza, ateye icyizere cy'uko umusaruro wayo uzaba umeze neza kandi uryoshye.

Ni ubwanikiro bwubatswe mu buryo butuma ibyanditswe mo bibasha kugerarwaho n'urumuri rw'izuba ndetse n'umwuka ugatambuka ku buryo ibirimo bitabasha kwangirika.

Ubuhinzi bw'ibigori bwa kijyambere bugezweho bukoresheje ifumbire nziza bwagaragaye ko ni ibigori bitanga icyizere ko bizakura neza bitewe n'uburyo bihinzemo hakurikije inama z'abajyanama mu buhinzi.

Umugabo cyangwa umusore uri kurandura ubunyobwa, akaba ari kugaragaza ubwoko bw'umusaruro cyangwa ingano y'umusaruro, yagezeho kugaragara k'ubunyobwa bwe, afashe mu ntoki.

Umusaruro w'ubuhinzi bw'ibishyimbo aho uyu mubyeyi ari kuwutunga awusuka mu gikoresho kibasha kuwubika neza mu mufuka n'ikindi gituma umusaruro utangirika.

Umubyeyi uri kugosora akoresheje intara cyangwa inkoko akaba ari gutunganya umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi, aragosora rero kugira ngo imyanda ivemo hasigare umusaruro mwiza.

Umusaruro wibigori bya iburide bikusanirijwe hamwe, mu mufuka byamaze gukurwaho amababi. Bitegerejwe kujyanwa aho bibikwa kugira ngo bikomeze gufatwa neza.

Umusaruro w'ubunyobwa, hari ubutonoye hari n'ubudatonoye. Ni igihingwa ngengabukungu, kuko uwagihinze abasha kujyana umusaruro ku isoko, akabona amafaranga cyangwa mu rugo bakabukoresha, bakagira imibereho myiza.

Umusaruro w'ishyimbo bitukuye aho ubicuruza yarenze mu buryo butandukanye akoresheje agasahani ahandi agakoresha akadobo mu buryo bw'ibiro, kugira ngo uza guhaha bimworohere kandi bimufashe kubona icyo yifuza neza.

Igihagari ni igihingwa cyiza kibasha kuvamo amavuta akozwe mu ruganda. Aho abasha kuribwa atetse ,atekeshejwe ibiryo cyangwa se akaribwa ari mabisi. Iyo ari mabisi ashyirwa ku gitunguru abasha gukiza indwara zitandukanye.

Umwana w'umukobwa uhetse undi mwana mugenzi we, akaba ari gutunganya umusaruro w'ubunyobwa, areba aho bigeze, akavuga ati reka nanike, ubundi nanure bitewe nuko umusaro uraba umaze kuma.

Uburyo bwiza bwo kubika umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi harimo, ibishyimbo, hakabamo ubunyobwa, hakabamo arashide, ndetse bibitse mu buryo bwiza butandukanyije amabara, aho ibara ry'umutuku riri ukwa ryo n'ibara ry'umuhondo rikaba ukwa ryo.

Ubuhinzi bugezweho bukozwe mu ikoranabuhanga harimo nko kuhira, gutera neza ku mironko hanyuma hakaba harimo ba Agoronome babihuguriwe, babikora neza ku buryo umusaruro uba ushimishije wo muri Girinihawuzi.

Umusaruro w'ibishyimbo aho biri gushyirwa kuri shitingi kugira ngo bihurwe kandi bitunganywe neza bibashe guhunikwa mu buryo bworoshye aho bitabasha gufurika.

Umuceri utoranijwe neza, ukaba urahantu hashobora kubikwa, cyangwa se gukoreshwa mu buryo bwiza, bunoze kandi bubereye amaso.

Abanyeshuri barishimye cyane，bari guseka， bambaye impuzankano，hejuru ni ubururu， hasi ni ipantaro y'umweru，bigaragara ko bameze neza，kandi bafite ukuntu bishimye.

Ubworozi bw'inkoko zitandukanye ziri aho bazororera kandi z'amasake, zimeze neza zirabyibushye zibasha gutanga umusaruro cyangwa se inyungu wazorora.

Abakozi bashinzwe umutekano bari gukora mu buryo bwa kinyamwuga, aho bari gutoza utu dusimba kugira ngo tuzabashe kubacungira umutekano mu gihe kizaza. Uyu munsi rero bari kwishimira ibyo bagezeho kandi bameze neza mu mpuzankano yabo iri mu ibara ry'ubururu.

Inka z'inyambo. Izwi cyane mu gace k'umutara ariyo Nyagatare y'ubu, mu burasirazuba bw'u Rwanda. Ifite amahembe ateze neza, ikaba ikunda kuba mu mirambi ya za Nyagatare.

Ubworozi bw'amatungo magufi aho uworora ayo matungo areberera ayo amatungo, amatungo harimo: inkoko, ihene zirisha ubwatsi, ndetse n'inkoko zikaba zirimo gutora ibizitunga hanze y'ikiraro cyazo.

Ubworozi bw'ingurube, nubworozi buteza imbere nyirabwo, kuko ingurube irabwagura ibibwana bitari munsi ya bitatu kandi byose bikura vuba, buri umusaruro we ubasha kwikuba mu gihe kitarenze umwa.

Inka za kijyambere, zifite ibara ry'umweru n'umukara, ryiganjemo amafirizomu, zihabwa abantu muri gahunda yo kubateza imbere, kugira ngo bongere umukamo, ndetse barwanye imirire mibi, babifashijwemo no kunywa amata, no kunywa amata avuye kumukamo wizi nka.

Veterineri ari kuvura inka ari kuyireba mu nda y'amaganga ngo amenye ikibazo ifite, aze kuyiha umuti ndetse ayitere n'urushinge bitewe n'indwara aba yayisuzumye.

Ubworozi bw'inkoko zikiri ntoya zigezweho za kijyambere zitanga umusaruro mu buryo bushimishije, kubera ko zahawe ibiribwa kandi zabashije guhabwa n'amazi yo kunywa, bigatuma umusaruro umera neza.

Inka ikingiye ifite numero ku matwi yomb, ikaba yo ubwayo yasohoye ururimi, iri kwihanagura ku mazuru kugira ngo ikomeze kumererwa neza.

Veterineri ari kuvura inka akoresheje kuyitera urushinge, ibizwi nk'iserenge nawe ubwe apfutse umunwa, yapfutse n'intoki mu buryo butuma akomeza gukora akazi ke neza kinyamwuga atibagiwe n'iburuza.

Ubworozi bw'ingurube bugezweho kandi butanga umusaruro, kubera ko ingurube ibwagura ibibwana birenze bitatu byaba bikeya bikaba bibiri, ariko umusaruro wabyo urihuta cyane.

Inka n'icyayo yabyaye vuba none cyangwagwe ejo. Inka ikaba iri kurisha ubwatsi kugira ngo ibashe konsa cyangwa se ibashe guhaza icyayo. Inyuma yayo hari ingombe aho ibasha kurira ubwatsi, mu gihe cyose baba badakeneye ko ibukandagirarira hasi.

ubworozi bw'inkoko burimo imboga zitandukanye za kizungu zirimo amabara y'umweru n'umukara ndetse ziri mu gihe cyo kuba zatera amagi kugira ngo umusaruro wazo ujye ku isoko cyangwa ukoreshwe mu rugo abagize umuryango bagire imirire n'imibereho myiza.

Intama z'ubwoko butandukanye harimo intoya zikuze zifite amezi ziri ahantu bigaragara ko zitegerejwe gutangwa cyangwa se abantu bene zo bakaba baje kuziragira zirimo kuririsha ubwatsi.

Umusaruro w'ibikomoka ku bworozi bw'inkoko, aho amatireyi ariho amagi atandukanye. Umusaruro wagenze neza kuko amagi ni menshi, kandi ari mu buryo butuma uwaguze umusaruro awugezayo neza.

Ubworozi bw'inka, aho veterineri yaje kuzisura akaba ari kureba ikibazo ki zifite ndetse akanaziha umuti mu buryo butuma zikomeza kugira ubuzima buzira umuze kandi zidahombeye nyirazo, zikaba zamuha umukamo.

Ikimasa kiri mu bwoko bw'uruhogo kiziritse mu kuboko kw'inyuma ifite ibara ry'uruhogo mu maso, ni umweruru kandi kiracyari gitoya kiracyari konka.

Inyoni ikunda kuba ahantu hose hashoboka hari isanzure, ibasha kuguruka ikoresheje amababa, ikunda ahantu hatuje, irarika ikagi icyari.

Ingagi mu birunga ,ikikiye umwana wayo. Imufashe neza ku buryo adahungabana. Akunda kuba muri parike y'ibirunga ni yo yinjiza amadovize iyo ba mukerarugendo bayisuye mu birunga.

Inyoni iri mu ishyamba aho ihagaze ku gati gatuma ireba mu cyerekezo gitandukanye , ikabasha kumenya niba ikeneye kuguruka ,ikagurukira mu cyerekezo yamaze kureba ko ari cyiza kuri yo.

Inyoni imeze neza, iri ahantu hatuje, iritegereza ibiri mu ishyamba, ikagaragaza ko ifite amatsiko menshi, ndetse ikita cyane ku biri kuvugirwa hirya yayo.

Inyoni iri mu giti, aho imeze neza itaraguruka iba yitegereza hirya no hino ishaka aho iri buze kugurukira, kugira ngo ibashe guhaha kandi nayo yibesheho.

Inyamaswa y'ishyamba iguruka Ifite amababa ayifasha kuguruka. Ibasha no kugaruka ku butaka igihe cyose yahina aya mababa ageze ku butaka, ikaba inyoni kandi inyoni nziza.

Imwe mu nyamaswa ziguruka zikoresheje amababa mu kirere, amababa yombi arakora kandi ibasha kugwa cyangwa se kumanuka mu kirere igahina amababa ikaba yagaruka ku butaka cyangwa se ikongera ikazamuka ikoresheje amababa.